Inyongeramusaruro y'imvaruganda ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka kugira ngo umusaruro wiyongere ndetse n'imyaka ibashe gukura vuba.

Ibikombe birimo umurama wifashishwa hafumbirwa ndetse hagaterwa imbuto zitandukanye, zirimo amatunguru, inyanya kugira ngo hanozwe ubuhinzi.

Ifumbire y'imborera yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka, haba ari uguhinga ibigori ibishyimbo ndetse n'indi myaka. Hakaba harimo umuntu urimo arayifata ubona ko ajyiye kwifashisha, kugira ngo, abashe kugira umusaruro mwiza uturutse mu buhinzi.

Inyubako irimo imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi, harimo imiti yica udusimba ndetse n'indi miti ituma ibihingwa bikomeza kugira ubuzima bwiza. Ikaba yifashishwa hatezwa imbere ubuhinzi.

Udufuka turimo ubwoko bw'inyongeramusaruro ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka, bikaba ari ibiro mirongo itanu, mirongo itanu bigiye bifunze, bikaba ari inyongeramusaruro yizewe.

Icyumba kirimo amoko menshi atandukanye y'inyongera musaruro zifashishwa mu buhinzi bw'imyaka, iyo ari yo yose, kugira ngo umusaruro uvamo wiyongere.

Ifumbire nyongeramusaruro ikoreshwa mu muhinzi kugira ngo hongerwe umusaruro uturuka mu buhinzi kandi butezwe imbere n'imyaka ibashe gukura neza.

Akarima kazwi nk'akarima k'igikoni gateyemo imboga ,imbuto zifashishwa mu rugo aho umuntu azisoroma akaziteka akazirya kari akarima kagaragara neza kuko kitaweho.

Abahinzi benshi barimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko barimo barategura umurima kugira ngo uhingwemo imyaka maze izatange umusaruro mwiza.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa hanozwa ndetse hatezwa imbere ubuhinzi, harimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kuvomerera imyaka kugira ngo ubuhinzi butezwe imbere.

Inyongeramusaruro zitandukanye, zifashishwa hatezwa imbere ndetse hanozwa ubuhinzi bw'imyaka, kugira ngo bukomeze butezwe imbere muri rusange, kandi n'abaturage babashe kubona izo nyongeramusaruro.

Inyubako itangirwaho serivisi z'ubushakashatsi ndetse bw'imyaka itandukanye, hagamijwe kugira ngo yongererwe ubushobozi bwo kubasha kwera neza kandi igatanga umusaruro uhagije.

Amacupa atandukanye arimo imiti yifashishwa mu buhinzi havurwa indwara zitandukanye zifata ibihingwa, yaba ari udusimba ndetse n'ubundi burwayi kugira ngo hanozwe ndetse hatezwe imbere ubuhinzi kandi n'umusaruro mwiza ubashe kugerwaho.

Inyubako irimo amoko atandukanye y'imbuto, ku buryo umuhinzi aza akazura akazifumbira neza zikamera amazi akazitera yifashishije uzitera ahantu heza habugenewe mu gifumbiro.

Umugabo ndetse n'umugore bafite inyongeramusaruro bagiye gutera mu murima wabo kugira ngo babashe gutera imyaka ikure vuba kandi izatange umusaruro mwiza ushimishije.

Inyubako icururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi, hakaba harimo umugabo ucuruza iyo miti, harimo imiti yica udusimba ndetse n'indi miti ituma imyaka ikomeza kugira ubuzima bwiza.

Amoko y'imiti yifashishwa mu kuvura ibihingwa bitandukanye kugira ngo hanozwe ubuhinzi ndetse bunatezwe imbere kandi umusaruro mu buhinzi ukomeze kwiyongera.

Icyumba kirimo amoko y'imiti itandukanye, yifashishwa mu buhinzi kugira ngo butezwe imbere havurwa uburwayi bwibasira ibihingwa bigatuma umusaruro ubasha kuba mukeya, hakaba harimo imitigi itandukanye.

Abantu bane barimo baratwara ifumbire bifashishije ibikoresho bibafasha kugira ngo bayitware vuba kandi ari nyinshi, akaba ari ifumbire igiye kwifashishwa hatezwa imbere ubuhinzi ndetse n'umusaruro wongerwa.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi, harimo rezwari n'indi miti yica udusimba, bikaba byifashishwa byose hanozwa ubuhinzi.

Amoko y'imbuto zitandukanye zikaba ziri mu ibase irimo ubutaka burimo n'ifumbire kugira ngo harebwe imikurire y'izo mbuto maze hanozwe ubuhinzi bwiza kandi bwizewe.

Inyubako icururizwamo, amoko atandukanye y'imirama, imbuto. Ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi. Harimo byifashishwa kuvomerera imyaka, n'ibindi bitandukanye.

Abaturage batandukanye barimo barategura umurima ubona ko bagiye gutera ibigori, barimo baraca imisoro bagashyiramo ifumbire kugira ngo babashe guterwamo izo mbuto, kandi zizatange umusaruro mwiza.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, harimo imiti ndetse n'inyongeramusaruro kugira ngo hatezwe imbere ubuhinzi ndetse hanozwe ubuhinzi, maze umusaruro wiyongere.

Umurima uteguwe neza urimo igihingwa kizwi nk'ibirayi, ubona ko gishishe kitaweho neza, hifashishijwe ifumbire ndetse no guterwa umuti mwiza ku gihe.

Igifumbiro cy'ingemwe z'ibiti, zikaba ari imbuto ziterwa kugira ngo hakomeze gutezwa imbere ubuhinzi, ubona ko zafumbiwe neza ndetse zikaba zarakuze neza ku buryo zaterwa zigatanga umusaruro muzima.

Umurima uteyemo inyanya ubona ko zisa neza, zitaweho ziterwa umuti mwiza wica udusimba, ndetse n'undi muti uzongerare ubudahangarwa ku kirere. Akaba ari inyanya nziza ubona ko zakuze neza.

Umurima urimo ibihingwa byifashwa mu buzima bwa buri munsi, kaba ari umurima munini, uteguye neza, ubona ko ibihingwa byitaweho hifashishijwe ifumbire ndetse n'indi miti yica udusimba kugira ngo ubuhinzi bunozwe.

Umurima uhinzemo ibinyomoro bisa neza byatewe umuti n'ifumbire, hakaba harimo abahinzi ubona ko bari kubikurikirana kugira ngo bizatange umusaruro mwiza kandi wizewe, bityo hakomeze kunozwa ubuhinzi.

Umurima uteyemo imbuto ubona ko zimeze neza zitaweho zikaba ziri hamwe, hakaba ari aho zifumbiye kugira ngo zibashe guterwa maze hanozwe ubuhinzi bwiza.

Ibihingwa biri mu murima ubona ko bishishe, bimeze neza kubera ko byahinzwe neza bigakurikiranwa hifashishijwe ifumbire ndetse n'imiti yica ibyonnyi birimo udusimba maze umusaruro w'ibihingwa ukaba wizewe kandi uzaba uhagije.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'imbuto zitwa inanasi, harimo abakobwa babiri bari kugaragaza uko izo nanasi zeze neza kandi zabasha no kuribwa.

Umurima urimo ibihingwa byiza byarabije kubera ko biri gukura neza bihabwa intungamubiri zo mu ifumbire ndetse n'imiti kugira ngo bitange umusaruro uhagije.

Umurima uteyemo ibihingwa bisa neza, byabagariwe, biruhirwa bishyirwamo ifumbire, ndetse haterwamo n'umuti, bityo umusaruro wabyo ukaba mwiza ndetse ukaba wizewe ko uzaba uhagije cyane.

Umurima uhinzemo ibihingwa ubona ko biteye neza, bisa neza kuko byitaweho hifashishijwe ifumbire nyongeramusaruro, ndetse n'indi fumbire y'imborera, haterwamo n'umuti.

Umuhinzi urimo arategura ubutaka neza kugira ngo abashe guhingaho imyaka. Akaba yabuteguye neza ku buryo abasha, kuba yateramo ingemwe zikazatanga umusaruro mwiza bitewe n'uko ubutaka bwateguwe neza mbere kandi ku gihe.

Umurima uteguwe neza ukaba uhinzemo ibihingwa kugira ngo hanozwe ubuhinzi birakurikiranwa neza kugira ngo imikorere yabyo n'imikorere yabyo ibashe gukurikiranwa.

Ibihingwa bitandukanye biri mu murima, ubona ko bimeze neza kandi bishishe, bikaba byaritaweho hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'ifumbire y'imborera ituruka ku matungo.

Umurima uteyemo amashu ndetse n'izindi mbuto, bikaba bihinze mu buryo bwiza ubona ko byitaweho, byatewe umuti kandi umusaruro wabyo ukaba wizewe, kuko hakoreshejwe ifumbire y'inyongeramusaruro.

Umurima uhinzemo ibitoki, ubona ko ari insina nziza zakuze neza zitaweho ndetse zifite ubuzima bwiza bityo zikaba zitanga umusaruro mwiza kandi wizewe.

Umurima uhinzemo ibihingwa bizwi nk'ibigori ubona ko bishishe kandi binogeye amaso kubireba, ukaba ari umusaruro mwiza ushimishije kubera ko byitaweho neza.

Umurima uhinzemo imyaka irimo ibigori n'indi myaka; kaba ubona ko iyo myaka imeze neza kuko yitayeho neza ndetse igakurikiranwa hifashishijwe ifumbire n'indi miti ikoreshwa mu buhinzi.

Umurima uteyemo imbuto ziteye neza ku murongo ubona ko ari ubuhinzi bwiza ndetse bwiyizewe. Aho umunwa wateguwe hifashishijwe ifumbire ndetse n'imiti.

Umurima uhinzemo amashu, akaba ahinze mu buryo bwiza ubona ko yitaweho kandi ameze neza, hakaba hifashishijwe ifumbire ndetse n'imiti ikoreshwa mu buhinzi.

Umuhinzi w'umugabo akaba ari mu murima, aho yahinze inyanya zikaba zimeze neza, kandi ubona ko zatangiye gutanga umusaruro, kuko zakurikiranwe neza kandi zitabwaho.

Umugabo uhagaze mu murima uteyemo igihingwa ubona ko kitaweho neza, kirashishe ndetse gisa neza, kubera ko cyatewe umuti ndetse hakoreshwa ifumbire nziza iturutse mu matungo n'indi ituruka mu nganda.

Ibigori byiza, byumye kandi byinshi, ubonako byari byahinzwe neza, bigatanga umusaruro mwiza uturutse mu buhinzi bwabyo, ku buryo abaturage babasha kubihinga.

Umurima uhinzemo ibihingwa ubona ko byitaweho neza, bikaba bifite isuku kuko hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'imiti yica udusimba.

Umurima uteyemo imbuto zizwi nk'imyembe ubona ko, imeze neza kuko yitaweho yongererwa ifumbire ndetse iterwa n'umuti wica ibyonnyi birimo udusimba.

Imirima iteguye neza ubona ko ihinzwemo imyaka ikaba yarateguwe hifashishijwe isuka ndetse hashyirwamo ifumbire kugira ngo izatange umusaruro mwiza.

Umurima urimo ibihingwa bitandukanye by'umwihariko ikigori, ubona ko kimeze neza kuko cyatewe neza kirakurikiranwa, hifashishijwe umuti ndetse n'inyongeramusaruro.

Abantu biganjemo abakobwa ndetse n'abasore barimo bararandura ingemwe kugira ngo zigende guterwa, akaba ari ingemwe z'ibiti bya voka kugira ngo zihabwe abaturage.

Umurima uhinzemo ibisheke, ubona ko ibyo bisheke byahinzwe neza birakura bikaba bigomba gukurikiranwa kugira ngo bitange umusaruro mwiza uhagije ndetse wongerwemo ifumbire kandi binabagarwe neza.

Umurima uhinzemo kawa ikaba ari ikawa nziza ubona ko yeze yahiye, ikwiye gusuromwa ikajyanwa ku ruganda igatunganywa, ikavanwamo ikawa yo kunywa.

Umurima uhinzemo ibigori akaba ari ibigori bisa neza kandi ubona ko byose byahetse kubera ko byitaweho hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'indi miti yica udusimba.

Umurima urimo ibihingwa ubona ko byatewe neza ndetse akaba ari umurima wabanje gutegurwa ku buryo umusaruro uzatanga wizewe kandi uzaba ari mwiza ushimishije, bityo ubuhinzi bugakomeza kunozwa kandi neza.

Umurima urimo ibihingwa bimeze neza ubona ko byatewe umuti, ifumbire ndetse iranakurikiranwa bikaba bifite ubuzima bwiza, akaba ari umurima uteguwe ku buryo umusaruro wawo uhagije.

umurima urimo ibihingwa byiza ubona ko kubyitaweho biterwa umuti ndetse hifashishwa ifumbire nyongeramusaruro kugira ngo hanozwe ubuhinzi kandi butezwe imbere.

Umurima uhinzemo imyaka, ubona ko ari imyaka imeze neza kuko yitaweho, ihingwa hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'imiti yica udusimba.

Ubwoko bw'igihingwa buzwi nk'imyumbati, akaba ari imyumbati yasaruwe, ubona ko imeze neza, kuko yitaweho neza, habashijwe gukoreshwa ifumbire, ndetse banayihinga mu buryo bwiza kandi bwizewe.

Ubwoko bw'imiti itandukanye ikoreshwa mu buhinzi havurwa indwara zifata ibihingwa ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo, ikaba ari imiti igamije kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu buvuzi bw'inka kugira ngo zitange umusaruro uhagije mwiza, ndetse zikaba zinatanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Icyumba kirimo amoko y'imiti itandukanye ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka, akaba ari imiti ikoreshwa imwe yica udusimba kugira ngo hanozwe ubuhinzi bwiza kandi bwizewe.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu buhinzi, aho uyu muti ukoreshwa havurwa uburwayi butandukanye bukunze kwibasira ibihingwa, ndetse hakabasha gutezwa imbere ubuhinzi bwiza kandi bwizewe.

Amacupa atatu arimo umuti wifashishwa hatezwa imbere ubuhinzi, aho iyo miti ikoreshwa ku bihingwa kugira ngo, hatezwe imbere umusaruro wabyo kandi mwiza.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu buhinzi kugira ngo hatezwe imbere ubuhinzi ndetse hirindwe indwara zitandukanye za hato na hato zituma imyaka idatanga umusaruro mwiza kandi wifuzwa.

Icyumba kirimo imiti yifashishwa mu buhinzi havurwa indwara zitandukanye zifata imyaka ndetse indi ikaba ikoreshwa mu bworozi bw'amatungo kugira ngo cyose hamwe bikomeze kugira ubuzima bwiza kandi ubuhinzi butezwe imbere.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu buhinzi, havurwa indwara zitandukanye zifata ibimera ndetse hagamijwe guteza imbere umusaruro uturuka mu buhinzi kugira ngo abaturage bakomeze kugira umusaruro uhagije.

Umworozi w'umugore arimo aragaburira inkoko ibiryo byazo kugira ngo zikure neza zibashe gutanga umusaruro uhagije, yaba ari uw'inyama ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa havurwa amatungo, wakorewe mu gihugu cy'ubushinwa. Uwo muti ukaba uvura inka, intama n'andi matungo kugira ngo hanozwe ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Amoko y'imiti itandukanye, akaba ari imiti yifashishwa havurwa amatungo ndetse yongererwa ubudahangarwa, indi ikifashishwa mu guteza imbere, ubuhinzi hifashishijwe mu kuvura imyaka.

Amoko y'imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo havurwa inka, ihene, intama n'andi matungo kugira ngo akore neza maze abashe gutanga umusaruro ndetse akaba atanga n'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Ubwoko bw'umuti wifashishwa mu buhinzi havurwa indwara zitandukanye zifata imyaka, yaba ari indwara ziterwa n'udusimba kugira ngo ubuhinzi bunozwe kandi umusaruro mwiza ubashe kuboneka.

Amacupa arimo ubwoko bw'umuti wifashishwa havurwa inyamaswa zirimo ihene, ingurube ndetse n'inka. Izi nyamaswa zikaba zifite akamaro kanini mu buhinzi aho zitanga ifumbire hifashishwa izwi nk'ifumbire y'imborera.

Umuhinzi arimo arategura ubutaka bwe neza kugira ngo ahinge imyaka, arimo arifashisha isuka kugira ngo umusaruro we wiyongere kandi igihingwa kibashe kugira ubuzima bwiza aho kizaba gitewe.

Abahinzi barimo barahinga imbuto kugira ngo zere neza kandi zikure vuba, bityo umusaruro wazo ube uhagije.

Umurima uteguwe neza cyane, kugira ngo uhingwemo imyaka. Ukaba uteguye ku buryo umusaruro uzatanga ari mwiza, kandi ubuhinzi bugatezwa imbere.

Abantu babiri b'igitsina gore barimo barategura ubutaka, bari guhinga bifashishije amasuka kugira ngo umurima wabo babashe guteramo imyaka.

Umukobwa uri mu murima arimo aravomerera ndetse akurikirana imbuto ziteye mu murima kugira ngo zibashe gukura neza zizatange umusaruro mwiza kandi wizewe vuba.

Abahinzi babiri barimo baratera imbuto mu butaka bwiza bwateguwe kugira ngo zikure vuba, maze umusaruro wazo uzabe wizewe kandi hakomeze gutezwa imbere ubuhinzi muri rusange.

Umuhinzi w'umupapa akaba ari mu murima aho yahinze imbutoze zizwi nk'ivoka, zikaba zimeze neza ubona ko zitaweho ndetse zavuwe uburwayi butandukanye.

Abagabo babiri barimo barakurikirana imbuto bateye, kugira ngo zibashe kugira ubuzima bwiza, kandi zitange umusaruro mwiza wifuzwa, maze ubuhinzi bukomeze gutezwa imbere.

Abaturage barimo abahungu ndetse n'abakobwa, barimo barahinga ubutaka bifashishije amasuka kugira ngo babutegure neza bubashe guterwamo imyaka maze haboneke umusaruro mwiza uturutse mu buhinzi.

Umupapa w'umuhinzi, uhagaze mu cyayi aho arimo arareba imikurire ndetse n'imimerere icyo cyayi yahinze kugira ngo akomeze guteza imbere ubuhinzi na we ubwe yiteza imbere.

Umuhinzi urimo arahinga imyaka ndetse anabagara indi yateye, kugira ngo akomeze guteza imbere umusaruro we ndetse n'ubuhinzi bukomeze gutezwa imbere, maze akomeze kugira ubuzima bwiza yifashishije umusaruro we.

Umurima uhinzemo ibigori hakaba hari abapapa batatu ndetse n'abantu babiri hari ibigori byeze neza kandi bishimishije umusaruro wabyo ubona ko byitaweho hifashishijwe ifumbire ndetse n'indi miti.

Abahinzi benshi ubona ko bishyize hamwe, barimo barahinga umurima bawutegura kugira ngo, habashe guhingwamo ibihingwa, bizatange umusaruro mwiza uhagije, bityo hanozwe kandi hatezwe imbere, ubuhinzi muri rusange.

Umugabo uri mu murima arimo aruhira imyaka yahinze, harimo intoryi n'izindi mbuto kugira ngo bikure neza bizatange umusaruro mwiza ushimishije kandi uhagije, uturutse kuba yarakurikiranye imyaka ye neza.

Abahinzi b'umuceri ubona ko baje gusarura ibyo bahinze, kandi akaba ari umusaruro mwiza ushimishije, kuko umuceri wabo weze neza.

Umumama arimo aruhira neza ibirayi yahinze, ubpna ko ari ibirayi bimeze neza byatewe umuti kandi biri gukura neza, bikaba bizatanga umusaruro mwiza kandi wizewe kuko byitaweho.

Umurima uhinzemo imyaka, aho umukobwa arimo arayivomerera kugira ngo ikomeze gukura neza kandi itange umusaruro mwiza wifuzwa, bityo ubuhinzi bukomeze gutezwa imbere.

Umuhinzi ari mu murima arimo aruhira ndetse akorera neza imbuto ze yateye, harimo ivoka kugira ngo zikure neza zizatange umusaruro mwiza kandi wizewe, bityo ubuhinzi bunozwe.

Abahinzi bari mu murima barimo barahinga, hakaba ari abahinzi babiri aho bari kwifashisha isuka kugira ngo bazagire umusaruro mwiza kandi ushimishije binyuze mu gutegura ubutaka neza ku gihe ndetse bakanakurikirana imyaka bahinze.

Umupapa uri mu murima arimo arasarura ibigori, ubona ko ari ibigori byiza byakuze neza ndetse byitaweho kuko byahinzwe neza.

Abahinzi banitse umusaruro wabo w'ibigori, harimo abamama ndetse n'abagabo ubona ko ari umusaruro mwinshi kandi ushimishije kuko bahinze neza imyaka yabo.

Umusaruro w'ibihingwa munini uhagije ubonako byahinzwe neza bikitabwaho hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse bigaterwa n'umuti wica udusimba, maze umusaruro wavuyemo ukaba ushimishije.

Umusaruro w'imbuto zituruka mu gutera ibiti bya voka, akaba ari imbuto z'ivoka, ubona ko izo mbuto zeze neza kandi zifite ubuzima bwiza, kuko zakurikiranwe zigahingwa neza mu butaka bwiza kandi zigakoreshwa ifumbire nyongeramusaruro ndetse n'imiti.

Umurima uhinzemo ibijumba, ubona ko wateguwe neza kuko ibijumba birimo bifite ubuzima bwiza, birasa neza kandi umusaruro bitanga ubona ko uzaba wizewe.

Abaturage barimo barasharika ibigori kugira ngo byume ubona ko ari umusaruro munini uhagije waturutse mu buhinzi bw'ibigori kandi ushimishije. Kuko byahinzwe hifashishijwe ifumbire y'imbonera ituruka mu matungo ndetse n'imvaruganda.

Umurima uhinzemo ibirayi, bikaba bihinze ku buryo bwiza abona ko byahawe inyongeramusaruro ndetse biterwa n'umuti, ku buryo umusaruro wabyo uzaba ari mwiza.

Ku isoko ahari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, barimo abagore, abakobwa ndetse n'abagabo, bakaba bazanye umusaruro uturutse mu buhinzi bw'ibitoki, aho hari ibitoki byinshi kandi ubonako byeze neza byitaweho.

Imifuka myinshi itandukanye irimo inyongeramusaruro z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu buhinzi bw'imyaka kugira ngo hatezwe imbere ubuhinzi ndetse umusaruro wo muhinzi wiyongere maze bikoreshwe neza.

Ubwoko bw'imbuto buzwi nk'ivoka, ubona ko bwasaruwe kandi neza, zikaba zareze neza, kuko zitaweho hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'indi miti yica ibyonnyi, harimo n'udusimba.

Isoko ririmo gucururizwamo zimwe mu mbuto zitandukanye zituruka mu buhinzi, harimo karoti, imyembe, ivoka n'izindi mbuto, akaba ari imbuto nziza kandi zasaruwe neza.

Umusaruro w'imyaka itandukanye iturutse mu buhinzi, harimo ibigori, ibishyimbo, soya, ikaba ari imyaka ihingwa neza n'abaturage, hifashishijwe ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera, kugira ngo ubuhinzi butezwe imbere.

Umurima uhinzemo ibihingwa, akaba ari umurima munini wateguwe neza, haterwamo umuti mu myaka ndetse hifashishwa ifumbire ku buryo umusaruro uzavamo wizewe.

Abasore babiri barimo baraterura umusaruro w'ibihingwa, ubona ko ari umusaruro munini uhagije wavuye mu guhinga imyaka ndetse ukaba warahinzwe neza hifashishijwe ifumbire ndetse n'imiti.

Umurima uteyemo umuceri, akaba ari umuceri weze, witaweho usa neza, ubona ko hifashishijwe ifumbire, imiti ndetse bakomeza no kuwukurikirana kugira ngo umusaruro wawo ube mwiza kandi utubutse.

Umuhinzi uhagaze ahantu hari umusaruro we yahinze akaba ari ibigori, akaba ari umusaruro mwinshi ushimishije kandi mugari, ubona ko yifashishije uburyo bwose bukoreshwa mu buhinzi harimo imiti ndetse n'ifumbire kugira umusaruro we wiyongere.

Umurima uhinzemo ibigori ubona ko ibyo bigori byeze, bikaba ari ibigori byiza kandi byitaweho kuko byatewe hifashishijwe ifumbire nyongeramusaruro ndetse n'imiti.

Umurima uhinzemo ibihingwa ubona ko uwo murima wateguwe ndetse ukitabwaho, ukaba wifashishwa mu guhinga hagamijwe kongera umusaruro no guteza imbere...

Umurima uhinzemo insina zitanga ibitoki, aho zihingwa neza umurimo uteguwe kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Ubwoko bw'ibihingwa bitandukanye biri mu murima, ubona ko bimeze neza, byitaweho hifashishijwe umuti ukoreshwa mu buhinzi, ndetse n'ifumbire yongera umusaruro, yaba ari ifumbire y'imvaruganda ndetse n'iva ku matungo.

Igifumbiro kirimo ingemwe z'ibiti ziterwa kugira ngo habashe kuboneka amashyamba ndetse hanozwe n'ubundi buhinzi. Zikaba zitaweho neza kandi ubona ko zimeze neza.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'icyatsi, akaba ari umurima wateguwe neza hifashishijwe ibikoresho bikoreshwa mu buhinzi ndetse igihinga kirimo kikaba cyaritaweho gifite ubuzima bwiza kinasa neza.

Ibihingwa bitandukanye birimo amashu ndetse n'ibindi bihingwa, ubona ko bisa neza kandi byitaweho, hifashishijwe ifumbire nyongeramusaruro ndetse n'ifumbire ituruka ku matungo.

Umurima ndetse ukaba uteyemo insina yamaze kwana umwanana kugira ngo hageho igitoki, akabona ko ari insina nziza yakuze neza ndetse yitaweho.

Igifumbiro cy'ingemwe z'ibiti by'ivoka byakuze neza, ubona ko byahawe ifumbire ndetse n'umuti ku buryo umusaruro wabyo uzaba wizewe neza.

Umurima utewemo ishyamba ryakuze neza kuko ryitaweho, rishyirwaho ifumbire, rinaterwa umuti, ingemwe zikiri ntoya kugira ngo ribashe gukura, ritange umusaruro uhagije uturuka mu buhinzi bwaryo.

Umurima uhinzemo zimwe mu mbuto, by'umwihariko akaba arimo urubuto ruzwi nk'igipapayi, akaba ari ubuhinzi bwiza bwakozwe neza kuko ibihingwa byakurikiranwe neza.

Icyatsi cyatewe neza, giterwa hifashishijwe ifumbire ndetse kirakurikiranwa hifashishijwe n'imiti kugira ngo kitabasha kurwara, maze ubuhinzi butezwe imbere.

Umuhinzi wahinze ibinyomoro, bikaba bimeze neza kandi bifite isuku, aho arimo arabikurikirana areba ubuzima bwabyo, ndetse akaba yariteje imbere binyuze mu buhinzi.

Umurima uhinzemo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti, akaba ari umurima munini kandi mugari, ubona ko yitaweho kandi ifite ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo, imyaka ubona ko, umurima wateguwe neza, kuko imyaka irimo irashishe, kandi imeze neza, ubona ko yitaweho iravomererwa ndetse, haterwamo n'umuti wica ibyonnyi birimo, udusimba n'ibindi bitandukanye.

Umurima uhinzemo isina, ubona ko, zimeze neza zitaweho. kandi zatewe n'umuti. Akaba ari insina nyinshi kandi zitanga umusaruro mwiza.

Umuhinzi w'umugabo akaba ari mu murima yasuye ibyo yahinze birimo insina, zikaba zimeze neza ubona ko zitaweho, zaravuwe ndetse hifashishijwe ifumbire kugira ngo zikure neza.

Umurima uteyemo ubwoko bw'igihingwa cyifashishwa mu buzima bwa buri munsi, aho gikoreshwa nk'umuti, umuti gakondo ndetse bikaba bihigwa kugira ngo hakomeze kunozwa ubuhinzi.

Umurima uhinzemo ibiti ndetse n'amateke n'indi myaka ubona ko byitaweho neza hashyirwamo ifumbire y'imborera n'imvaruganda kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwiza kandi wizewe uhagije.

Umugore ndetse n'umukobwa bari mu murima bavuye gusura ibihingwa bateye, ndetse akaba ari imbuto z'intoryi, aho ubona ko zakuze neza zitanga umusaruro mwiza muzima kandi wizewe uhagije bitewe n'uko zitaweho.

Imbuto zavuye mu buhinzi harimo imyembe n'izindi mbuto, ukaba ubona ko zitaweho neza hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse no kuzitera umuti maze zibashe kugaragara zisa neza.

Ibinyomoro ubona ko bifite ubuzima bwiza byahinzwe neza, yitabwaho hifashishijwe umuti wica udusimba ndetse n'ifumbire kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza kandi hanozwe ubuhinzi bwiza kandi bwizewe.

Zimwe mu mbuto ziva mu buhinzi harimo ibinyomoro, indimu ndetse n'ibinyozwa, akaba ari imbuto nziza ubona ko zasaruwe mu butaka bwiza bwitaweho kandi neza.

Umumama uri ku karima k'igikoni gahinze neza karimo imboga nziza ubona ko zitaweho, kuko hakoreshejwe ifumbire yaba ari iy'inyongeramusaruro cyangwa se ifumbire y'imborera.

Umugabo w'umuhinzi ari kumwe n'umwana, aho yahinze inyanya, ubona ko yari arimo arazitera umuti wica udusimba zikaba ari inyaya zisa neza kandi zimeze neza ubona ko zitaweho ndetse zizatanga umusaruro muzima.

Imbuto zitandukanye zasaruwe mu mirima, y'abaturage harimo karoti, ndetse n'izindi mbuto, zikaba zihingwa mu butaka, ndetse akaba ari imbuto zifitiye umumaro abaturage.

Umukobwa uhagaze mu gifumbiro cy'ingemwe nyinshi zitandukanye, zifashishwa hahingwa izo mbuto kugira ngo hizerwe ubuziranenge bw'izo ngemwe aho zaturutse.

Ubusitani burimo icyatsi cyahinzwe neza, hifashishijwe ifumbire ndetse n'umuti. Kikaba cyarakoze neza kandi ubona ko ubuhinzi bwacyo bwakozwe neza.

Imbuto ziteye ahantu heza ubona ko ari ibiti by'ivoka byatangiye kuzanaho imbuto, ubona ko byitayeho neza ndetse bifite imikurire myiza, bikaba bizatanga umusaruro uhagije.

Imirima ihinzwemo ibihingwa bitandukanye harimo ahahinze umuceri ndetse n'ahandi hahinze ibindi bihingwa, akaba ari imirima iteguwe neza ubona ko uburyo ihingwamo ari uburyo bwiza bwongera umusaruro.

Umurima uhinzemo ibinyomoro, bikaba byatangiye kwera ndetse byera neza kuko byitaweho hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'umuti.

Imbuto zituruka mu buhinzi zirimo amashu, karoti, ibitunguru n'intoryi, akaba ari umusaruro waturutse mu guhinga ubona ko ari umusaruro mwiza kandi uhagije, bigafasha abaturage kwiteza imbere ndetse no guteza imbere ubuhinzi.

Imbuto zahinzwe, zigasarurwa, harimo inyanya, insenda ndetse n'izindi mbuto, zikaba zisa neza ubona ko zahinzwe neza zitabwaho hifashishijwe ifumbire ndetse n'umuti.

Umwana mutoya n'umumama ndetse n'umupapa barimo barasoroma imbuto zavuye mu buhinzi mu murima, aho ubona ko bishimiye umusaruro wabo kandi bakomeje kwiteza imbere kubera ubuhinzi.

Umurima uteyemo, imyaka ndetse hakaba hari n'imbuto, zituruka ku giti k'igipapayi, aho ubona ko imyaka imeze neza, kuko yarabagariwe iruhirwa, hakoreshwa ifumbire nyongera musaruro ndetse habasha no kwifashishwa imiti.

Inyanya, karoti, n'intoryi birimo biracuruzwa kugira ngo abantu babigure, akaba ari umusaruro uturuka mu buhinzi bw'imyaka, bityo ubuhinzi bukaba bugomba gutezwa imbere.

Umurima uteyemo imboga ubona ko zisa neza kubera ko umurima urateguwe ndetse urasukuye, izo mboga zikaba zitabwaho binyuze mu kuzitera umuti ndetse no gushyiraho inyongeramusaruro.

Abana bato babiri ndetse n'umugabo n'umugore barimo barasarura imiteja, ikaba imeze neza ubona ko bahinze ibishyimbo byabo neza hifashishijwe ifumbire n'imiti ikoreshwa mu buhinzi.

Imbuto zisarurwa mu mirima, harimo ibirayi ndetse na karoti, imiteja, akaba ari imbuto nziza ubona ko zahinzwe mu butaka bwiza kandi zitabwaho, bityo zikaba zaratanze umusaruro muzima.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'imbuto zitandukanye harimo ibiti by'ivoka ndetse n'izindi mbuto, akaba ari umurima uhingwamo n'indi myaka, yaba ari ibishyimbo, imyumbati kugira ngo hanozwe ubuhinzi.

Igifumbiro cy'imbuto zifashishwa mu buhinzi harimo avoka aho abaturage baza bakazifata bakajya kuzitera mu buryo bwiza kandi bwasobanuwe neza n'abarimu barazibahereza.

Umugabo w'umuhinzi arimo aratera umuti inyanya yahinze ubona ko zimeze neza kuko hifashishijwe umuti kugira ngo hicwe udusimba kandi n'ifumbire kugira ngo umusaruro uziyongere.

Indabo zihinze ubona ko ari indabo zitaweho neza, ziterwa umuti ndetse ziravomererwa hagamijwe kunoza ubuhinzi bwiza bunoze.

Imbuto zituruka mu buhinzi zirimo karoti, imiteja, amashaza ndetse n'izindi, zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi abantu bazirya, akaba ari umusaruro mwiza uturutse mu buhinzi.

Umurima uhinzemo imyaka ubona ko ari imyaka yitaweho neza, harimo umumama w'umuhinzi urimo arayibagarira kugira ngo ikomeze gukura neza izatange umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umuhinzi ari mu murima arimo arareba uko umusaruro we uhagaze w'Imbuto yateye, akaba ari intoyi zihinze mu murima munini kandi zimeze neza kuko zitaho zirakorerwa, zishyirwamo ifumbire ziterwa n'umuti.

Umupapa w'umuhinzi akaba yasuye ibihingwa bye, aho arimo arareba uburyo avoka ze zimeze, ndetse zikaba zimeze neza kuko zitaweho zahingwa neza, kandi hifashishijwe ifumbire n'indi miti itandukanye.

Inyanya nziza, zisa neza, ndetse na karoti, byaturutse mu buhinzi, ubona ko byahinzwe neza kandi byitabwaho, hifashishijwe imiti, ndetse n'ifumbire.

Intoryi ndetse n'inyanya akaba ari umusaruro uturuka mu buhinzi, aho izi mbuto zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu mafunguro, akaba ari imbuto zihingwa neza kandi zikitabwaho kuko ubona ko zifite umusaruro uhagije.

Umukobwa arimo arasoroma ibinyomoro, ubona ko bititaweho neza byarwaye kandi byeze, bikaba bigomba kwitabwaho bikanaterwa umuti kugira ngo hanozwe ubuhinzi.

Imbuto zituruka mu buhinzi zikaba zizwi nk'imyembe, zikaba ari imbuto zimeze neza zakuze neza kandi ubona ko mu bunini ari zinini bitewe n'uko hifashishijwe ifumbire ndetse n'imiti.

Umurima uhinzemo imbuto ndetse harimo n'izasaruwe, ubona ko zakuze neza kandi zatanze umusaruro muzima kubera ko zahawe ifumbire.

Umurima uteyemo imyaka, akaba ari umurima utunganyijwe neza wifashishwa kugira ngo hongerwe imisaruro ituruka mu buhinzi binyuze mu gukoresha inyongeramusaruro ndetse no gukoresha imiti.

Ivoka ebyiri zituruka mu buhinzi bw'imbuto, aho abahinzi bahinga ingemwe z'igiti k'ivoka maze bagasarura ivoka nziza kandi ziryoshye.

Ibitunguru byiza, ubona ko byahinzwe neza, ndetse bisarurwa neza, bikaba biri ku isoko aho bibasha kugurwa. Akaba ari umusaruro mwiza, waturutse mu buhinzi bitewe nuko hifashishijwe ifumbire n'imiti.

Inyanya ndetse imboga, imiteraja, karoti, akaba ari imbuto zose zituruka mu buhinzi bw'imyaka. Zikaba zifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ubusitani buhinzemo indabo ndetse n'ibindi byatsi bikaba bihinzwe neza hifashishijwe ibikoresho bitandukanye birimo amasuka, ifumbire ndetse no kubivomerera.

Umuhinzi ari mu murima aho yahinze ndetse ari kumwe n'umwana, aho barimo barakorera neza banuhira inyanya yahinze aziteramo n'umuti kugira ngo zikure neza, zizatange umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Igifumbiro k'imbuto zifashishwa mu buhinzi kugira ngo butezwe imbere. Aho zibanza zigafumbirwa neza zikitabwaho nta burwayi na buke zihuye nabwo.

Icyatsi cyatewe hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'umuti kugira ngo kitabasha kugira uburwayi, kikaba kimeze neza kandi kibyibushye, ubona ko bacyitayeho neza.

Isoko ririmo imbuto zitandukanye zituruka mu buhinzi, harimo imineke, imyembe, ibinyomoro ndetse n'izindi mbuto. Ukaba ubona ko byahinzwe neza kandi byitabwaho.

Ubwoko bw'imbuto ziva mu buhinzi, harimo ibijumba, amadegede, akaba ari imbuto zihingwa kugira ngo zifashishwe, bityo ubuhinzi bukomeze kunozwa.

Umusore w'umuhinzi akaba ahagaze mu murima uhinzemo imbuto, ubona ko yawuteguye neza ku buryo umusaruro izi mbuto zizatanga uzaba wizewe.

Karoti zahinzwe neza zitabwaho hifashishijwe ifumbire, inyongeramusaruro ndetse n'indi miti ibasha kwica udusimba. Ukaba ubona ko umusaruro wavuyemo ushimishije.

Abantu babiri b'abamama basuye imbuto zafumbiwe neza zigaterwa neza ndetse zikaba zimeze neza, ubona ko zahinzwe neza hifashishijwe ifumbire ndetse n'indi miti ikoreshwa mu buhinzi.

Umugabo w'umuhinzi ari kumwe n'abana babiri, umwana muto w'umukobwa ndetse n'umuhungu barimo barasoroma inyanya bahinze ubona ko zeze neza kuko zitaweho kandi zikagira ubuzima bwiza.

Umusore uri mu murima uhinzemo imyaka, ubona ko ari imyaka myiza kandi isa neza, yitaweho hifashishijwe ibikoresho bitandukanye birimo imiti, ndetse n'ifumbire ikoreshwa hongerwa umusaruro.

Umugabo w'umuhinzi urimo arasarura imbuto ze, ari kumwe n'umwana mu murima, bari gufatikanya gusarura inyanya zeze neza kuko zitaweho, tuzihinga mu buryo bwiza zikaba zitanga umusaruro uhagije.

Umurima uhinzemo imyaka, akaba ari ibishyimbo ndetse harimo umuhinzi urimo arayibagarira kugira ngo ikure neza kandi bitange umusaruro mwiza ushimishije.

Imboga ndetse na karoti zituruka mu buhinzi, aho zeze neza zigasarurwa zikajyanwa ku isoko kugira ngo zicuruzwe zigurwe kandi abantu bazirye, bityo ubuhinzu bukomeze gutezwa imbere.

Umumama uvuye gufata ingemwe, aho zafumbiwe z'imbuto, kugira ngo abashe kuzitera maze, agire umusaruro mwiza uhagije. Kuko izo ngemwe ziba zizewe, kuko ziba zarezwe neza zongerewe ubudahangarwa zanatewe umuti.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibihingwa butandukanye, harimo amashu, ibipapayi ndetse n'ibindi bihingwa, bikaba byifashishwa hatezwa imbere imiberero myiza y'abaturage ndetse n'ubuhinzi muri rusange.

Umumama uri mu murima aho yahinze ingano, akaba arimo arazivomerera yifashishije ibitembo ajyana amazi mu murima kugira ngo zibashe gukura neza kandi zitange umusaruro mwiza uhagije.

Umugabo uhagaze mu muririma aho arimo, aradaha amazi avomerera imyaka kugira ngo, ikure neza maze, abone umusaruro mwiza, kandi yifuza uhagi...

Umuhinzi w'umugabo ndetse ari kumwe n'umusore, aho arimo aravomerera imyaka yahinze kugira ibashe gukura neza, maze itange umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umurima munini wateguwe neza hifashishijwe amasuka ndetse hateyemo imyaka, yatewe hakoreshejwe ifumbire ndetse n'umuti wica udukoko tubasha kwangiriza imyaka.

Imirima ihingwamo imyaka itandukanye ikaba ari imirima iteguye neza ku buryo ubuhinzi bw'imyaka ijyamo iba yizewe kandi yera vuba igatanga umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umurima uhinzemo ibihingwa ubona ko byatewe neza ndetse bifite isuku, hakaba harimo amaterasi y'indinganire kugira ngo hirindwe isuri yatwara imyaka ahubwo umusaruro wizewe ugerweho.

Umurima wo guhingamo imyaka irimo ibishyimbo n'indi myaka itandukanye kugira ngo hatezwe imbere ubuhinzi, aho utegurwa hifashijwe ibikoresho birimo amasuka ndetse n'ibindi bikoresho maze hakanozwa ubuhinzi.

Ubwaniko bw'imyaka by'umwihariko hakaba hanitseho ikawa yatunganyijwe neza mu ruganda, ikaba ari ikawa ituruka mu buhinzi, aho abaturage bahinga ikawa ndetse bakayisoroma neza bityo bigatuma ubuhinzi bukomeza gutezwa imbere.

Umurima munini uhinzwemo imyaka ubona ko wateguwe neza, ukorerwa isuku ku buryo umusaruro w'uyu murima uzaba ari mwiza kandi ushimishije cyane.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye zerekeye ku buhinzi, yaba ari ubujyanama ku baturage ndetse no kubahereza amafumbire n'indi mitifa kugira ngo hanozwe ndetse hatezwe imbere ubuhinzi bwiza kandi bwizewe.

Imirima itandukanye ihinzemo imyaka harimo umuceri, ndetse hakaba hari indi mirima iciyemo amaterasi y'indinganire, ikaba yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka kugira ngo hanozwe ubuhinzi kandi n'umusaruro wizewe uboneke.

Umurima uhinzemo ibihingwa bizwi nk'umuceri, ubona ko byatewe neza ndetse binakorerwa isuku, haterwamo ifumbire kugira ngo umusaruro uturuka mu buhinzi bw'umuceri wiyongere.

Umurima uhingwamo imyaka itandukanye, yaba ari ibishyimbo, ibigori, imyumbati, ibijumba ndetse n'ibirayi, ukaba uteguye neza aho uciyemo amaterasi y'inganire kugira ngo ibihingwa bigire ubuzima bwiza.

Imirima iberamo ubuhinzi bw'imyaka by'umwihariko igihingwa cy'umuceri, aho bahingamo umuceri kugira ngo hakomeze gutezwa imbere ubuhinzi ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.

Umurima uteyemo imyaka itandukanye ndetse harimo n'amazi ubona ko hari n'igishanga gihingwamo umuceri kugira ngo hakomeze gutezwa imbere ubuhinzi ndetse n'umusaruro mu buhinzi wiyongere.

Umumama arimo aragaburira ihene kugira ngo irye ikure, ndetse ihage neza bityo ibashe gutanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi, kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi ikomeze kwiyongera cyane.

Umumama ndetse n'ihene eshatu yoroye, aho arimo arazitaho azigaburira, ihene zikaba zitanga ifumbire yifashishwa mu guhinga imyaka irimo ibigori, ibishyimbo ndetse n'indi myaka.

Ingurube iryamye mu kiraro, ikaba itanga ifumbire ikoreshwa mu guhinga imyaka itandukanye, yaba ari uguhinga ibishyimbo, ibigori, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umwana mutoya arimo aragaburira inka ubwatsi, inka ikaba itanga ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye, harimo ubuhinzi bw'ibigori ndetse n'indi myaka.

Inka iri mu kiraro ndetse haziritse umunyu ibasha kwifashisha, ndetse ikaba ari inka nziza, ubona ko yorowe neza; ikaba itanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Inka zitandukanye ndetse hari n'abantu baziragiye kugira ngo zirishe zihage maze zitange umusaruro mwiza ushimishije, harimo uw'amata ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi.

Inka irimo irarisha ubwatsi kugira ngo ikomeze gukura neza ndetse ikaba itanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka, bikaba bituma umusaruro w'ubuhinzi wiyongera neza.

Itungo ririmo rirarisha ibyatsi rikaba rizwi nk'ihene aho ritanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka, harimo ubuhinzi bw'ibigori, ibishyimbo ndetse n'indi myaka.

Ingurube iri mu kiraro aho irimo iragaburirwa ibiryo kugira ngo ikure neza, maze ibashe gutanga umusaruro uhagije w'ifumbire y'imborera yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye.

Ikiraro cyororewemo itungo rizwi nk'ingurube, ikaba itanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi, ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera ikora neza hagamijwe kongera umusaruro uturuka mu buhinzi.

Ikiraro cyororowemo inka, inka zikaba zitanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka, bahinga ibigori, ibishyimbo ndetse n'indi myaka kugira ngo umusaruro w'ubuhinzi utezwe imbere kandi n'ubworozi bukomeze gutezwa imbere.

Inkoko nyinshi zirimo ziratoragura ibyo kurya, zikaba zitanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka hagamijwe guteza imbere ubuhinzi ndetse no kongera umusaruro.

Itungo rizwi nk'ingurube ryabwanuye ibibwana birindwi ririmo rirabyonsa, rikaba ari itungo ritanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi ndetse na ryo rikaba rifitiye umumaro abaturage.

Ihene iziritse mu murima, aho irimo irarisha ibyatsi, akaba ari itungo ritanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka kugira ngo hakomeze kunozwa ubuhinzi.

Umugabo w'umworozi ufite inka ebyiri, ndetse n'umwana muto w'umukobwa, bari kugaburira inka, izo nka zikaba zitanga ifumbire izwi nk'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka.

Umubyeyi ufite ihene ebyiri yoroye, zikaba zitanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka igiye itandukanye.

Inyubako irimo amatungo azwi nk'inkoko, akaba ari amatungo yifashishwa aho atanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye kugira ngo umusaruro ukomeze kwiyongera, akaba ari ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera.

Icyumba cyororewemo inkoko ubona ko zakuze neza, zahawe ibyo kurya bihagije ndetse zihabwa n'amazi meza, zikaba zitanga n'ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye.

Ikiraro cyororewemo inka, zikaba zitanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu kongera umusaruro w'ibihingwa ndetse no mu buhinzi bw'indi myaka itandukanye.

Inkoko zirimo zirarya, zikaba zitanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi kugira ngo umusaruro wiyongere maze hanozwe ubuhinzi muri rusange.

Ikiraro kirimo amatungo azwi nk'ingurube, akaba ari amatungo atanga ifumbire y'imborera yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye, ari ubuhinzi bw'ibigori, ubw'inyanya ndetse n'ibishyimbo.

Itungo ryororwa rizwi nk'inka, ikaba itanga ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Inkoko itanga ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka, harimo ubuhinzi bw'ibigori, ibishyimbo ndetse n'ubundi buhinzi kugira ngo hatezwe imbere ubuhinzi ndetse n'umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Ihene ndetse n'ibindi biraro birimo amatungo nk'ingurube, akaba ari amatungo atanga ifumbire izwi nk'ifumbire y'imbonera yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka.

Ingurube iri mu kiraro ikaba yarabwanuye ibibwana byinshi, ikaba itanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye harimo ubuhinzi bw'imbuto nk'inyanya ndetse n'ibigori n'ibishyimbo.

Ikiraro kirimo inka ubona ko iyo nka ari nziza ndetse isa neza, ikaba itanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi izwi nk'ifumbire y'imborera, ikora neza kandi ituma umusaruro wiyongera.

Umuvuzi w'amatungo arimo aravura inka ay'ikingira kugira ngo ibashe gukira uburwayi, inka ikaba itanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi kugira ngo umusaruro wiyongere.

Ihene irimo irarisha ibyatsi, ku ruhande hakaba hari insina zitanga ibitoki abantu barya, iyo hene ikaba na yo itanga ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera yifashishwa mu buhinzi.

Amatungo yororerwa mu rugo azwi nk'ingurube, aho zirimo ziragaburirwa, zikaba zitanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu gutera imyaka ndetse no kongera umusaruro.

Amatungo atandukanye harimo ihene ndetse n'ingurube, akaba ari amatungo atanga ifumbire, izwi nk'ifumbire y'imborera, ikoreshwa hongerwa umusaruro uturuka mu buhinzi kandi bw'imyaka itandukanye.

Inkoko nziza nini ubona ko, zarezwe neza zinororwa neza, kuko zarabyibushye, zifite igikuriro, zagaburiwe neza, zitanga umusaruro w'inyama ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu buhinzi izwi nk'imborera.

Ikiraro kirimo inka, inka ikaba itanga ifumbire izwi ifumbi nk'imborera yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye, yaba ari ubuzi bw'ibigori, ubuhinzi bw'ibishyimbo ndetse n'indi myaka kugira ngo hanozwe kandi hatezwe imbere ubuhinzi.

Ihene ikaba ari itungo ritanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka harimo guhinga ibishyimbo, guhinga ibigori kugira ngo umusaruro uturuka muri ubwo buhinzi ndetse n'ubundi buhinzi wiyongere.

Abantu barimo baragenda mu mirimo y'ubuhinzi ndetse, n'ihene boroye, zitanga ifumbire ikoreshwa muri ubwo buhinzi kugira ngo umusaruro uva muri ubwo buhinzi ukomeze kwiyongera cyane.

Umukumbi w'intama ziri hamwe aho zorowe zirisha, zikarya ubwatsi, zikaba zifashishwa mu gutanga ifumbire ikoreshwa mu buhinzi ndetse zikanatanga umusaruro w'inyama ndetse n'amafaranga ku bazorora.

Ikiraro kirimo inka, inka nziza ifite ibara ry'umukara, ikaba itanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi, ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera kugira ngo umusaruro uva mu buhinzi wiyongere.

Itungo rizwi nk'inkoko, rikaba ari itungo ritanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'ibihingwa bitandukanye birimo ibigori, ibishyimbo ndetse n'izindi mbuto.

Ikiraro kirimo itungo rizwi nk'ingurube rikaba ririmo rirarya ibyatsi, akaba ari itungo ritanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi, akaba ari ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera kandi ikora neza.

Inyanya ziri mu murima aho zahinzwe neza, ubona ko zifite umusaruro mwiza zatangiye kwera ku buryo zasoromwa zikajyanwa ku isoko, bityo hagakomeza guteza imbere ubuhinzi.

Umurima urimo ibihingwa, kaba ari umurima wateguwe neza, ndetse hifashishijwe ibikoresho, birimo n'imiti, yifashishwa kugira ngo ibihingwa bikomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo amatunguru, akaba ari amatunguru ameze neza ubona ko yitaweho hifashishijwe ifumbire ndetse n'indi miti ikoreshwa, harwanywa udusimba kugira ngo akure neza.

Imirima itandukanye aho bafumbirira imbuto kugira ngo zivanwemo zige guterwa zikuze, zimwe mu mbuto bafumbiramo harimo umuceri, amatunguru ndetse n'izindi.

Umurima wateguwe neza urahingwa hakurwamo ibyonnyi, hakaba hagiye guterwamo imyaka kandi ikaba ari imyaka izakura neza bitewe nuko umurima wateguwe neza kandi wegereye amazi.

Umurima uhinzemo imbuto ubona ko zimeze neza zitaweho kandi umusaruro wazo ukaba ari mwiza, ni imbuto nziza ku buryo kuzireba wumva ari byiza.

Umurima uteyemo imbuto zizwi nk'intoryi, akaba ari imbuto ubona ko zagiyeho kandi ni nyinshi zeze neza kubera ko zahinzwe mu buryo bwiza kandi burambye.

Umurima uhinzemo imyaka, akaba ari umurima uteguye neza, ubona ko imbuto zihinzemo zasasiwe kugira ngo zikure neza kandi zitange umusaruro wifuzwa.

Umurima uhinzemo ubwoko bw'ibihingwa bizwi nk'ibijumba, aho ubona ko bimeze neza kuko byatewe neza kandi binitabwaho ku buryo umusaruro bizatanga uzaba ushimishije.

Igifumbiro kirimo ingemwe z'imbuto ziterwa kugira ngo habashe gutezwa imbere ubuhinzi, zikaba ziri ahantu zitaweho ubona ko zahawe ifumbire, barazibagara ndetse zimeze neza.

Umurima wateguwe neza ndetse ukaba uhinzemo igihingwa kizwi nk'intoryi, aho zitaweho ubona ko zifite ubuzima bwiza, hakaba harakoreshejwe ifumbire yaba ari ituruka mu matungo ndetse n'imvaruganda.

Umurima uhinzemo imbuto ubona ko zimeze neza zitaweho, zikaba zatangiye kwera, aho umuhinzi arimo arazisoroma, zitaweho hifashishijwe inyongeramusaruro.

Umurima ufumbiyemo imbuto zifashishwa mu buhinzi, akaba ari imbuto zitandukanye, aho zihabwa abaturage abahinzi bakazihinga maze ubuhinzi bugakomeza gutezwa imbere.

Ibigori bihunguye byinshi ubona ko ari umusaruro mwiza ushimishije waturutse mu buhinzi, bikaba bigomba kubikwa neza kugira ngo bitangirika kandi hanozwe ubuhinzi.

Igifumbiro cy'ingemwe z'ibiti ubona ko zitaweho neza, kugira ngo zihabwe abantu babashe kubitera ahantu hatandukanye, maze hanozwe ubuhinzi.

Umurima uteguwe neza ukaba uhinzemo amateke, ubona ko yabagariwe aruhirwa, ku buryo umusaruro azatanga ari mwiza.

Ibigori byanitse bikaba byaravuye mu buhinzi bw'ibigori, hifashishijwe inyongeramusaruro ndetse n'umuti watewe kuri ibyo bigori kugira ngo bikure neza kandi bitange umusaruro mwiza wizewe.

Ikiraro kirimo inka, inka ikaba itanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka harimo guhinga ibigori, ibishyimbo, imyumbati, amateke ndetse n'indi myaka igiye itandukanye.

Icyumba kirimo imiti yifashishwa mu buhinzi hongerwa umusaruro w'imyaka, akaba ari imiti myiza ndetse n'ibikoresho byiza bibasha gupima kandi bikaboneza ku gipimo.

Umuvuzi w'amatungo arimo aravura inka, inka ikaba itanga ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi bw'imyaka itandukanye.

Ihene irimo irarisha, ndetse ikaba itanga n'ifumbire, izwi nk'ifumbire y'imborera yifashishwa, mu buhinzi bw'indwara kugira ngo, hongerwe umusaruro.

Umugabo uvura amatungo akaba arimo aravura inka aho arimo arayifashwamo n'abantu babiri kugira ngo ayivure neza, iyo nka ikaba itanga ifumbire izwi nk'ifumbire y'imborera ikoreshwa mu buhinzi.

Inyamaswa yo mu gasozi izwi nk'inkende, aho iba irimo irarya ibihingwa abaturage baba bateye bituma umusaruro uba mukeya bitewe n'uko inyamaswa zonera abaturage.

Umurima urimo inyamaswa y'agasozi, ubona ko itunzwe no kurya kuri ibi bihingwa abaturage baba bateye, bityo bikaba bidindiza umusaruro uturutse mu guhinga imyaka, ndetse inyamaswa zikaba zibangamira abaturage.

Inyamaswa yo mu gasozi, irya ndetse ikangiriza ibihingwa mu mirima, aho igenda igakatagura ibyatewe maze bikadindiza umusaruro n'iterambere ry'ubuhinzi muri rusange.

Ubwoko bw'inyamaswa izwi nk'icyonnyi cy'ibimera, ikaba ari inyamaswa igenda ikarya ibihingwa by'abaturage, bikaba bituma umusaruro uza udahagije, ndetse bikaba byanatera uburwayi ku myaka abaturage bahinze.

Inyamaswa zo mu gasozi, zona imyaka abaturage baba bahinze, bikaba bidindiza ubuhinzi, kubera ko imwe mu myaka myinshi abaturage bahinga usanga izi nyamaswa ziyirya.

Inyamaswa yo mu gasozi izwi nk'inkende, ikaba ari inyamaswa irya imyaka abaturage bahinze, bikaba bidindiza ndetse bituma ubuhinzi budatera imbere kuko zonera abaturage.

Inyamaswa y'agasozi izwi nk'inkende, ikaba itunzwe n'ibyo abaturage bahinga, aho zijya kubonera zikarya imyaka, bigatuma umusaruro wo mu buhinzi uba muke.

Ubwoko bw'inyamaswa zizwi nk'inkende, zikaba zirimo zirarya imyaka abaturage baba bahinze, bidindiza umusaruro ndetse n'iterambere ry'ubuhinzi mu baturage.